Igikorwa cy'ubuvuzi ni ingirakamaro. Abaganga basigasira ubuzima bwacu buri munsi, ni na yo mpamvu ari byiza gukurikiza no kubahiriza inama batugira za buri munsi, zituma ubuzima bwacu buba bwiza.